Abantu benshi batandukanye harimo abagabo n'abagore hari abahagaze n'abicaye. Imbere yabo hari umutako w'ururabyo, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ibara rijya gusa umukara cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza kandi ayo magambo afite ibara ry'umweru.

Abantu bicaye batandukanye, harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo hari ameza ariho impapuro n'amacupa y'amazi, inyuma yabo hari inzugi ziri mw'ibara rya kaki, ndetse n'amadirishya ariho amarido.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zifite imisego ijya gusa umweru, bose imbere yabo hari mudasobwa. Bari gukoresha mu nama barimo.

Abantu benshi biganjemo abasore n'abakobwa bambaye imipira y'ubururu bwijimye afite ibirango ndetse n'imibare akaba afite n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda ku ruhande rw'ibumoso.

Abantu benshi bagiye batandukanye, harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ariho amacupa y'amazi, ndetse bamwe na bamwe bagiye bafite mudasobwa, ndetse inkuta z'aho bicaye hariho imitako igiye itandukanye.

Abantu benshi bahagaze bari muri siporo bafite icyapa cyanditseho, SIDA iracyahari duhaguruke tuyirwanwanya, bakaba bari guhugurwa n'umugabo wambaye impuzangano ya polisi y'u Rwanda.

iyi foto irimo abantu batandukanye, abagabo n'abagore, hakaba harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu kunywa ibinyobwa bidasembuye, hakaba harimo na mudasobwa zigera muri eshatu, hakaba harimo n'amabendera afite ibirango bigiye bitandukanye, rimwe rifite ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, irindi rikaba ari ibendera riranga igihugu cy'u Rwanda.

Abagabo benshi bicaye bambaye imyenda itandukanye: abenshi bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro agiye atandukanye, abandi bagiye bambaye imipira y'ubururu, ndetse hari n'uwambaye umupira w'umuhondo urimo imirongo y'umukara; inyuma yabo hari amadirishya arimo ibirahure ndetse ku gikuta hasizeho irangi ry'umweru n'umukara.

Abantu benshi bicaye harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe hakaba hari abicaye imbere yabo b'abagore babiri, umwe yambaye imyenda y'ubururu bwijimye, undi yambaye ikoti ry'umweru, mo imbere mu ikoti yambariyemo ishati y'icyatsi impande zabo hari amacupa y'amazi n'ibirahure byo kunyweramo amazi.

Iyi foto irimo abantu batandukanye bari mu mahugurwa bayobowe n'umugabo wambaye ikote ry'umukara mo imbere harimo ishati y'umweru, inyuma y'uwo mugabo hari amadirishya ariho amarido ajya gusaka kaki akaba hari n'ibirango bifite amabara y'ubururu n'umweru yanditseho amagambo yo murimi rw'ikinyarwanda.

Bicaye n'abahagaze umwe, babiri, batatu, bane, batanu. Umwe ni we uhagaze ufite isakazamajwi inyuma yiwe hari ibirango biriho ibendera ry'u Rwanda ryanditseho amagambo ari mururimi rw'Icyongereza.

Abagabo batandukanye harimo abicaye n'abahagaze uhagaze yambaye ikote ry'ubururu bwijimye n'ishati y'umweru afite inyongereramajwi inyuma yiwe igikuta gisize irangi ry'umweru hakaba hari n'icyapa cyanditseho amagambo ari mubara rijya gusa umutuku.

Ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, harimo idirishya, ibirahure, n'ibyuma ku mpande kumagambo yanditse y'umukara mu rurimi rw'icyongereza.

Abagabo; umwe babiri, batatu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza asize irangi rya kaki, inyuma yabo hari urugi rufite ibirahuri ndetse rusize ibara rya kaki,...

Iyi foto irimo abantu batandukanye abagore ndetse n'abagabo ndetse bicaye ku ntebe z'umukara. Hari ameza abari imbere hariho ibintu bigiye bitandukanye; hari amacupa y'amazi, hanariho mudasobwa, haniho n'amakayi.

Ukoresheje ikorana buhanga byagutabara nyamara igihe utashye wibereye mu rugo ukabona nk’ agapantaro ukabura uko ukagura wenda kujya k’isoko ushobora kukwereka umuntu agahita akubwira kagurira aha n'aha ugahita ukakishyura agahita kakuzanira rwose.

Abantu benshi harimo umugabo wambaye ishati ijya gusa umutuku imbere ye hari mudasobwa n'icupa ry'amazi biteretse ku meza, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru n'amarinete, mbere yewe hari icupa ry'amazi ndetse n'igikapu cy'umukara, iruhande rw'iwe nawe hari umugore wambaye ikanzu y'umukara iciye amaboko, imbere yiwe hari icupa ry'amazi na mudasobwa biteretse ku meza.

Abantu benshi bicaye harimo abagabo n'abagore imbere yabo hari amacupa y'amazi na mudasobwa inyuma yaho igikuta gisize ibara ry'umweru hasi hari amakaro hari n'abandi bahagaze bafite camera.

Inzu mberabyombi irimo abantu batandukanye harimo abagore babiri ndetse n'abagabo bane bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza afite ibara rijya gusa umutuku hejuru y'ameza hari amacupa y'amazi ndetse n'inyongeramajwi.

Abantu benshi bicaye harimo abagabo n'abagore ndetse n'abasore n'abakobwa bambaye imyambaro y'ishuri, abakobwa bateze ibitambaro by'umweru mu mutwe. Bakaba bambaye imipira y'imbeho yicyatsi bose, akaba hari n'abambaye amashati y'umweru.

Iyi foto irimo abama b'abisilamu n'agacupa k'amazi y'inyange n'aba mama bitandiye, harimo uwambaye imyenda ijya gusa umutuku n'undi wambaye imyenda y'ubururu. Hakagaragaramo n'abandi bagabo bigaragara yuko bitabiriye inama.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba ari ameza ariho amacupa y'amazi, bamwe na bamwe bakaba bafite na mudasobwa, imbere yabo hari abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yabo hakaba hari ibara ry'ubururu ririho ikirangantego k'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda bakaba bari mu bukangurambaga.

Abantu batandukanye bicaye, hakaba hari umugabo umwe uhagaze, bose bari kureba ku rukuta rufite ibara ry'umweru, hakaba hari ibintu byashyizwe biri mu ibara ry'umweru n'ubururu, n'amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abantu umwe babiri batatu bicaye ku ntebe z'umukara harimo umukobwa witeze igitambaro cy'ubururu bwijimye, ndetse akaba yambaye n'umupira uri mimirongo y'umukara y'umukara umupira usa umweru hakaba hari umuhungu wambaye umupira ibirango bifite ibara ry'ubururu, n'undi muhungu umwicaye iruhande wambaye ishati y'ubururu.

Abantu bicaye batandukanye harimo abagabo n'abagore, bicaye imbere y'ameza hariho amacupa y'amazi inyuma yaho hari icyapa kiri mu mabara atandukanye, ibara ry'umweru niry'ubururu, ndetse imbere ya bamwe mu bagabo bafite mudasobwa.

Abantu, umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, umunani, icyenda, bicaye ku ntebe z'umukara, harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye, imbere yabo hari ameza ariho ibyo kunywa, amazi ndetse n'ibindi bidasembuye ndetse n'impapuro z'umweru ndetse n'inyongeramajwi.

Abantu benshi bicaye batandukanye, harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'umutuku, hari abicaye imbere yabo hari, ime ameza ariho amacupa y'amazi, kandi hasi hari amakaro.

Kugira ngo hatabaho kubangamirana kw'ibinyabiziga, aho abagenzi bategera hagiye hashyirwa ibyapa ndetse n'igihe imvura iguye bashyiriyeho utuzu yo kugama mo izuba cyangwa se imvura.

Iyi foto irimo abantu batandukanye bicaye ku ntebe bose bafite ameza y'umutuku imbere yabo hakaba ari umugore wambaye ikanzu y'umweru akaba yambayeho agapira gafite amabara y'umutuku ikaba ifite inzugi n'amadirishya bifite amabara ajya gusa umukara.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe zifite amabara ajya gusa umweru, imbere yaho hari ameza ariho ibitambaro by'umukara hariho amacupa y'amazi.

Iyi foto irimo abantu batandukanye, irimo abagabo n'abagore, irimo umugabo ufite inyongerajwi, irimo amacupa y'amazi y'inyange, irimo mudasobwa n'intebe, n'ibitambaro by'umweru, n'indi mitako iri ku bikuta.

Ibikorwaremezo, imihanda, indabyo z'amoko atandukanye, inyubako ndende, akazu gato kubatse gasakaye aho abagenzi bicara bakaruhuka.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umukara ndetse n'imeza ifite ibara rya kaki ririho amacupa y'amazi ndetse n'umuti wo gukaraba intoki akaba ari n'undi ugaragara ikiganza ufite mudasobwa imbere y'iwe kunkuta hariho umutako ndetse umugabo umwe ashinzwe umutekano mu gihugu cyu Rwanda, undi ni umuzungu wicaye.

Abantu benshi bicaye abagabo n'abagore, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, ku meza hariho amacupa y'amazi, inyuma yaho hari igikuta kiriho ibara ry'umweru, hasi hari amakaro.

Urupapuro rw'umweru ruriho amabara arimo ubururu n'umuhondo, hakaba hari amagambo yanditse hejuru ariw ibara ry'ubururu akaba ari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, yanditse mui ibara ry'umweru munsi hakaba hari andi yanditse mu rurimi rw'Icyongereza aba mu ibara ry'umuhondo, munsi n'andi magambo yanditse mu ibara ry'umukara hakaba ari n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Abantu benshi bahagaze, harimo abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye, hejuru yabo hari icyapa cyanditseho amagambo afite ibara ritukura rya koperative,...

Umurongo ugendanwa ugezweho na mudasobwa bifite ikirangantego k'ikigo k'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro ndetse n'imashini y'inyemezabwishyu kuruhande hari amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ayo yandi magambo yandikishijwe ibara ry'ubururu bwijimye ari mu rurimi rw'Icyongereza.

Iyi foto irimo abanyeshuri babiri bambaye udupfukamunwa n'umwigisha wabo na we wambaye agapfukamunwa ari kubereka ibiri muri mudasobwa. Harimo n'amakayi n'izindi mudasobwa za kera zitari iz'iterambere nk'izubu.

Umunara muremure ufite amabara umweru n'umutuku uwo munara ufite ibikoresho bigiye bitandukanye bishinzwe gusakaza itumanaho uri hagati mu nsina z'ibitoki n'ibindi bihingwa.

Urupapuro rw'umweru ruriho mudasobwa mo imbere muri mudasobwa harimo icyapa cy'umweru, kirimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'akandi kazu k'akadirishya kari mu ibara ry'ubururu, hejuru ku rupapuro handitseho irembo byikorere ndetse no hasi hakagaragaraho urubuga rwabo wabasuriraho mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Iyi foto ni amabwiriza agenga abatanga serivisi mu kigo gishinzwe kubitsa no kubikuza amafaranga y'abaturage mu rwego rwo kwirinda coronavirusi no kuyirwanya ikaba ifite ikirango cyarura n'andi magambo yanditse ku ruhande ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo dukurikize amabwiriza twirinda covide cumi n'icyenda.

Umunara ushinzwe itumanaho ufite amabara y'icyatsi, ugiye ufite n'urwego hagati bururiraho bagiye kugira ibyo bakora ndetse ukaba ufite ibikoresho bigiye bitandukanye biri mu ibara ry'umweru, hirya y'umunara hateye ibiti.

Urupapuro rw'ubururu rugaragaza iminsi isigaye mu gihe cyo kwishyura imisoro n'amahoro, rukaba ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'andi mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, urwo rupapuro rukaba rufite ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Urupapuro rw'ubururu ruriho umurongo ugendanwa n'amafaranga menshi y'inote za bitanu y'amafaranga y'u rwanda, ku ruhande hari amagambo yanditse mu kinyarwanda twongere kubatengamaza ishimwe kuri teveya ryongeye gutangwa, munsi hakaba hari ikirango k'ikigo cy'igihugu cy'u rwanda gishinzwe imisoro n'amahoro.

Umunara muremure wubakishijwe ibyuma byinshi biterateranye, ndetse ukaba ufite amabara harimo umutuku n'umweru, ukaba ufite ibikoresho bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umweru iruhande rwawo hari abagabo benshi bambaye imipira y'ubururu harimo n'uwambaye ishati ijya gusa umutuku, ndetse akaba ar'ibirango by'ubururu bya tigo hakaba hari n'imodoka zihagaze impande yawo.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo ari mu ibara ry'ubururu yanditse mu cyongereza, harimo na mudasobwa yifitemo urupapuro rw'umweru rurimo amagambo yanditse mu cyongereza.

Ibyapa bibiri bitandukanye, harimo ikirekire gifite ibara ry'umweru kiriho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda, kigaragaza serivise zitangwa aho ngaho harimo serivisi z'iri rembo, aho usaba serivise ushaka kujya kwiga hanze y'igihugu wishyura n'imisoro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umunara muremure ufite ibikoresho bigiye bitandukanye, impande zombi iburyo n'ibumoso, uwo munara ukaba ufite amabara y'umweru n'umutuku, umunara ushinzwe itumanaho mu Rwanda.

Amagambo y'umweru ari mu rurimi rw'cyongereza ari ku urupapuro rw'ubururu munsi yaho ari akaziga karimo amagambo y'icyongereza. Aya magambo arimo mu ibara ry'ubururu munsi yaho hari umurongo ugendanwa ugezweho wegeranye na mudasobwa.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite ibirango, bifite ibara ry'umweru riho amazina ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse ari no mu rurimi rw'Icyongereza, imbere yaho hari imitako y'indabyo iri mu mavaze afite amabara y'ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere ye hari umugabo wambaye ijire ifite icyatsi gihishije ndetse n'umukara.

Ibiganza biri gukora kuri mudasobwa iruhande rwaho hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza amwe afite ibara ry'umweru andi yanyanditse mu ibara ry'umuhondo ndetse no munsi yaho hari andi magambo menshi ahanditse ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse munsi hari ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru uri kumeza iriho igikombe cy'amazi ndetse na mudasobwa, n'urupapuro n'ikayi iruhande rwiwe handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru n'ubururu yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abagabo babiri batambutse imbere y'inyubako, ifite akazu gatoya kayishamikiyeho, gasa umweru kagiye gafite ibirango bigiye bitandukanye, bifite amabara y'umuhondo n'umweru n'ubururu, hakaba hari moto iparitse imbere y'ako ka gashamikiye kuri iyo nyubako ndetse n'imodoka.

Ifoto harimo umugabo wambaye amarinete wambaye'umupira w' magufiya, w'umweru akaba afite inyongerajwi ifite ibara rijya gusa umutuku. Imbere ye hakaba hateretse amacupa abiri y'amazi kuruhande rwiwe hasi hakaba ari igikapu, ku ruhande rw'iwe hakaba icyapa gisa ubururu cyanditseho irembo byikorere.

Ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, munsi yaho hakaba hari amagambo yanditse, ari ku rupapuro rw'ubururu, ayo magambo akaba yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, asa ubrururu, munsi yaho kababa hari ibirango by'imbuga nkoranyambaga, munsi yaho kababa hari ibimenyetso biranga aho ugiye.

Urupapuro rw'umweru n'ubururu rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza rushishikariza kwaka inyemezabwishyu, munsi hari amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza afite ibara ry'umweru, ndetse munsi hari ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda.

Umunara w'itumanaho uri imbere y'inzu ifite ibara ry'umweru, uwo munara ukaba ufite ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gusakaza itumanaho, hirya y'inzu hari igiti kihateye ndetse hejuru y'inzu hari igikoresho cyifashishwa mu ngufu z'amashanyarazi zikoreshejwe imirasire y'izuba'

Urupapuro rw'umweru ruriho amabara y'ubururu ndetse n'umweru handitseho amagambo ari m'ururimi rw'icyongereza ndetse n'ikirangantego cya repuburika yu Rwanda, n'urupapuro rutangwa na mifotara ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga akazi.

Imodoka ishinzwe gutwara abantu benshi, umwe, babiri, batatu, bane, hari babiri begeranye, umwe yambaye agapira k'umutuku ndetse n'umurongo ugendanwa ugezweho mu ntoki n'undi yambaye agatambaro k'icyatsi mu mutwe, afite umurongo ugendanwa mu ntoki, ku ruhande rwabo hari undi wambaye ishati y'ubururu ndetse inyuma yaho hari n'undi wambaye ishati ijya gusa umweru.

Urupapuro rw'umweru ruriho ikirangantego cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda munsi yawo hari urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse munsi hari ibara ry'ubururu.

Urupapuro rw'ubururu ruriho amagambo atandukanye hejuru hari amagambo yanditse ururimi rw'ikinyarwanda yanditse ngo irembo, munsi yaho hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'andi ari munsi ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara ry'umweru . Iruhande rw'ayo magambo hariho umurongo ugezweho ugendanwa urimo amabara agiye atandukanye umweru, n'ubururu n'umuhondo.

Umunara wubatse mubyuma byinshi biteranyije, ufite ibikoresho byinshi by'umweru, byifashishwa mugutanga itumanaho mu Rwanda, ndetse n'aha, n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Mudasobwa mo imbere ifitemo amabara atandukanye, harimo amabara y'umweru, ubururu, n'umuhondo, ndetse n'ikirangantego y'igihugu cy'u Rwanda, hakaba handitseho amagambo agiye atandukanye ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'ari mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda ari ayanditse mu kinyarwanda yanditse ngo kwiyandikisha mu kizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye. Ndetse munsi yaho hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu uhagaze imbere y'imodoka y'umweru.

Amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, k'uruhande hariho amatariki n'ukwezi n'umwaka munsi yawo hari amagambo yanditse ari mu ibara ry'ubururu n'umutuku yanditse Kigali Rwanda, munsi hakaba harimo itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere.

Urupapuro rwo ku mbuga nkoranyambaga rusa umukara, munsi yawo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu'ibara ry'umweru, ndetse hejuru hakaba hari ikirango gifite amabara atatu, harimo; ubururu, ndetse n'umuhondo, ndetse n'icyatsi, akaba ari urupapuro rwashyizwe hanze n'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda.

Iyi foto irimo igikuta cyubakishijwe amatafari, akaba arimo n'imodoka ebyiri, imwe isa umweru, indi isa umukara hakaba ari n'ipoto ifata insinga z'amashanyarazi.

Ipoto rifite icyuma hejuru gitambitseho, gifite utuntu dutatu dufashe insinga z'amashanyarazi ndetse hakaba hari urutsinga ruri hasi ruzirikiye kw'ipoto , iryo poto rikaba rir'imbere y'inzu ifite icyapa imbere yayo ,hirya yawo hakaba hari inzu ifite amabara y'umweru.

Iyi foto irimo icyapa kigaragaza y'uko aho hafi ari ahantu batanga umuriro, ku kigo cy'igihugu gishinzwe gutanga umuriro, hakagaragara mo itara rifite icyuma cy'umukara, hakagaragara mo umunara, harimo n'inzu y'umweru ku ruhande rwawo hari amabati.

Ipoto ry'igiti rifite insinga z'amashanyarazi, zigera mu nsinga esheshatu, riteye imbere y'indabyo n'ibiti. Ndetse hirya y'aho hakaba hari inzu ifite amabati atukura.

Aha rero ni muri banki runaka biterwa n'iyo ukoresha, haba hari abantu bakira abandi, ukaza bakagufasha nyine ku bintu bijyanye no kubitsa no kubikuza, waba ushaka amafaranga mu ntoki bagahita bayaguhereza rwose, ni ibintu byoroshye, nk'uko ubibona hakurya harimo abari beza baseka neza winjiramo bagahita bagufasha.

Ipoto ryubakishijwe muri sima ririho ibikoresho bigiye bitandukanye hariho utwuma dufashe insinga ndetse hariho n'insinga ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa hatangwa umuriro n'ibindi bikoresho birinda umuriro ko wafata umuntu mu gihe agiye kuhakora.

Ipoto rirerire ryubakishijwe ibyuma bishinzwe gufata insinga z'amashanyarazi, zigiye ahantu hatandukanye. Iryo poto ryubatswe imbere y'inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse iruhande rwayo hari amapoto abiri matoya kuri rya rindi rirerire, na yo afashe insinga.

Umukobwa wambaye ingofero ifite ibara ry'umweru y'ubwirinzi wambaye amaherena yambaye agapfukawa gafite ibara ry'ubururu kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda avuga ngo ''yesu ni byose kubamufite''. Yambaye ijire y'umuhondo iriho ikirangantego cya sosiyete ishinzwe gutanga amashanyarazi mu Rwanda yambaye n'umupira w'umutuku.

Ipoto ryubakishije sima ririho insinga zigiye zitandukanye, ndetse n'agakarito k'umukara gashinzwe gutanga interineti mu mazu agiye atandukanye, ndetse iryo poto ririho itara rimurika mu gihe cy'amasaha y'ijoro.

Imbangukiragutabara ifite ibara ry'umweru n'umutuku, n'ubururu handitseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda yanditseho imbangukiragutabara Nyarugenge.

Iyi foto irimo imodoka eshatu, ebyiri z'umweru n'indi imwe ijya gusa umukara, ikaba irimo itara rirerire, irimo n'abantu hakaba hari umumama wicaye ku ruhande ku ruhande hariho teremusi n'igikapu cya kinyarwanda, ruguru hakaba hari akazu gafite amabara y'umweru na kaki hari n'abantu bari kuzamuka basa nkaho basohoka.

Inzu ifite ibara ry'umweru, ndetse yubakishije ibirahure n'amadirishya y'umukara arimo, ibirahure, akaba ari ivuriro rishinzwe kuvura abadwayi, imbere y'iyo nzu hari imodoka z'imbangukiragutabara ndetse n'abantu bahagaze imbere yaho, akaba ari n'umugore ufite igikapu gifite amabara y'umweru n'ubururu n'umutuku, uhagaze imbere y'aho ubwinjiriro buri.

Ku manywa ku kigonderabuzima hari igikoresho cyifashishwa mu kuzimya igihe habaye inkongi y'umuriro, ku ruhande hari akazu k'ibyuma gafite ibara rijya gusa umukara imbere y'aho hari inzu yubakishijwe amatafari.

Ivuriro rihagazeho imodoka eshatu zifite ibara ry'umweru, z'imbangukira gutabara, imbere y'izo modoka hari abantu bane batandukanye. Harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri.

Icyumba cyo mu ivuriro gifite imiryango ndetse n'amadirishya afite ibara ry'umweru arimo ibirahure ndetse kikaba kifitemo n'amarido afite ibara ry'ubururu, hejuru akaba harimo amatara hakaba harimo ibitanda bibiri byagenewe abarwayi.

Inyubako ebyiri zitandukanye, zubatse muburyo butandukanye, aho imwe yubatse ifite ibirahure byinshi imbere yayo ndetse yubakishije amakaro, imbere yayo hari imodoka nyinshi, inyubako ya kabiri yubatse ifite ibirahure ibice bibiri hejuru no hasi imbere yaho hari imodoka ebyiri.

Abagore: umwe, babiri, batatu, bicaye ku ntebe z'imbaho, imbere yaho hari imeza iteretseho mudasobwa buri wese ari gukoresha. Imbere hari amadirishya y'umweru arimo ibirahure, ariho n'amarido y'umweru.

Abagabo bicaye bambaye imyenda y'icyatsi ndetse hari n'abandi bahagaze bashinzwe umutekano w'igihugu bambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero z'umutuku, hakaba hari nundi wambaye ishati y'ubururu ndetse nundi wambaye umupira w'umukara ahagaze.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse ku ruhande akaba hariho asobanuye mu rurimi rw'igifaransa ndetse no mu rurimi rw'icyongereza, akaba urupapuro ruriho umutwe wa gatatu wanditseho ibyaha n'ibihano bya ruswa, ingingo ya kane gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke.

Umugabo ufite amaso, n'amazuru n'amatwi, n'ubwanwa, wambaye ikanzu y'umutuku ifite akabara k'umweru imbere, mu imbe akaba yambariyemo ishati ifite imirongo y'ubururu.

Urupapuro rw'umweru ruriho amategeko agenga abatura Rwanda bose ndetse hakaba hariho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ari mui ibara ry'umukara ndetse n'igifaransa ndetse n'icyongereza byose biri mu ibara ry'umukara akaba ari amagambo amwe mu rurimi rw'ikinyarwanda avuga gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro ndetse n'andi akurikira menshi ari mu rurimi rw'ikinyarwanda.

Umugore ufite imisatsi miremire wambaye ingofero ifite ibara ry'umukara n'akandi karongo k'umuhondo yambaye ikanzu itukura, mo imbere harimo iyindi kanzu y'umukara n'umweru yambaye ama lunette yanisize ibintu bitukura ku munwa.

Iyi foto irimo abantu benshi bicaye ku ntebe, hari abicaye ku ntebe zidafite ameza, bicaye ku ntebe zifite ameza bicaye ku ntebe zijya gusa nk'umutuku n'ameza y'umukara ariho amakaye n'amacupa y'amazi, bakaba bambaye imyambaro y'abacamanza.

Iyi foto irimo amategeko yavuguruwe mu nshinga ya Repubulika y'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu, ryavuguruye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, mu buryo butandukanye n'ubwa mbere.

Iyi foto ni umuhanda wa kaburimbo ufite umurongo w'umweru hirya ha akaba ariho moto, hakagaragara n'abagabo babiri umwe n'umupolisi wambaye ibirango bya polisi, hakagaragara n'undi mugabo wambaye ishati ijya gu gusa umutuku hirya akaba ari inyubako igeretse akaba ari nini n'ibiti impande.

Ikiraro kinini gikomeye gifite umuhanda hejuru n'undi muhanda uca munsi yacyo, hejuru hari kunyuramo ikinyabiziga gitwara abagenzi, munsi y'ikiraro hari umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka, ipikipiki n'amagare.

Igikoresho cyifashishwa mu gihe habayeho inkongi y'umuriro, kikaba gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umupira usohora imyotsi cyangwa se imyuka yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, ufite ibara ry'umukara ndetse kuri icyo gikoresho hakaba hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'ibimenyetso bifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, wambaye n'isarubeti y'ubururu bwijimye, ufite igikoresho bakoresha bazimya ahantu habaye inkongi y'umuriro, ari gusobanurira abanyeshuri bambaye amashati y'umweru n'amapantaro ya kaki n'inkweto z'umukara, inyuma y'uwo mugabo wambaye isarubeti y'ubururu bwijimye, hari ibindi bikoresho byifashishwa bazimya inkongi y'umuriro.

Icyapa cy'umweru gifite amagambo acyanditseho, ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse no mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikimenyetso kigaragaza ko ari ivuriro, hakaba hariho n'ikindi kirango cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'amagambo yanditse mu kinyarwanda, yanditse ngo ibitaro bya polisi Kacyiru ndetse hagati hakaba arimo ikirango cy'umutuku kigaragaza ko ari ivuriro, kikaba gifite ibyuma by'umukara bihagaze.

Iyi foto irimo imodoka y'abashinzwe umutekano ya polise ifite amabara y'umweru n'umukara ikaba ifite amagambo yanditseho polisi. Imbere yayo hari inyubako yanditseho zigama.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Isoko rifite ibicuruzwa bitandukanye by'imitako yakorewe mu Rwanda, harimo uduseke twinshi n'imitako yo mu ijosi, n'imitako yo kumanika mu nzu harimo n'ibibumbano bigiye bitandukanye n'udutebo.

Igikoresho cyifashishwa hazimywa inkongi y'umuriro, gifite amabara arimo umuhondo ndetse n'ubururu n'umutuku. Hari amagambo aryanditseho ari mu rurimi rw'Icyongereza afite amabara agiye atandukanye.

Imodoka ya polisi y'u Rwanda ishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro ikaba ifite amabara atandukanye arimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, ikaba ifitemo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Igikoresho gishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro gifite amabara y'umutuku n'umukara kikaba kiriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza asa umweru ndetse kikaba kiri imbere y'amakarito yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ari mu mabara y'umukara.

Umugabo ushinzwe umutekano wambaye ingofero, n'ishati nijire ifite amabara abiri atandukanye harimo ibara ry'icyatsi rihishije n'umukara ijuru ikaba yanditseho amagambo porisi ndetse n'ipantaro na bote z'akazi.

Inyubako igeretse inshuro imwe ebyiri, eshatu, enye, imbere yaho hari imodoka z'abashinzwe umutekano ndetse n'imodoka zisanzwe, imbere yabo hakaba hari n'umugabo wambaye ishati y'umweru n'ingofero ya kaki, n'ipantaro y'ubururu bwijimye.

Ushinzwe umutekano wo mu muhanda wambaye ingofero n'umwambaro w'akazi, uriho ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, yambaye ijire rifite amabara atandukanye, umukara ndetse n'icyatsi gihishije, ahagaze imbere y'imodoka itukura, itwawe n'umugabo wambaye isaha ku kuboko.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida Polo Kagame, yambaye ingofero y'umukara iriho ikirango cy'ishyaka cya efuperi yambaye n'amarinette n'umupira w'umweru uri w'ikirango, ikirango cy'ishyaka rya efuperi n'ipantaro y'umukara, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi.

Umugabo wicaye, wambaye ikote ry'ubururu bwijimye, wambariyemo ishati y'umweru, wambaye na karavate, wicaye impande y'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda rifite izuba ndetse n'amabara atandukanye; harimo ubururu n'umuhondo n'icyatsi.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, n'andi magambo agiye yanditse mu mpine, ariho amabara abiri atandukanye aho hari ama uruhande ruriho amabara y'ubururu, urundi rukaba ruriho amabara y'umweru, amagambo y'ururimi rw'icyongereza yanditse mu mabara y'umukara.

Abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'umukara, ndetse n'abantu benshi bari inyuma bambaye imyenda y'umweru bafite n'amabendera asa umweru, ubururu n'umutuku ndetse imbere hari n'andi mabendera maremare afite ayo mabara.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ari mu ibara ry'umukara iruhande rwayo hari ibirango by'amashyaka atandukanye afite n'amabara agiye atandukanye.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore n'abana , n'abahungu n'abakobwa, imbere yabo hari umugabo n'umugore bambaye ishati y'umweru, aho umugore ateze urugori, aho umugabo afite icumu n'ingabo.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umukara bari gusinya ku mpapuro imbere yabo hari amabendera abiri atandukanye hari ibendera rimwe riri ku ruhande rw'ibumoso riri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu n'irindi bendera riri kurundi ruhande ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abantu benshi bambaye imipira y'icyatsi ndetse n'amabendera ariho ishyaka, ndetse hakaba hari abantu batatu bahagaze imbere yabo bambaye amashati y'umweru ndetse hakaba harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe.

Abagore benshi bahagaze bambaye imyitero igiye itandukanye ifite amabara atandukanye harimo imyitero isa umutuku, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi ndetse n'umweru. Impande yabo hari ibiti bihagaze.

Umugore ufite imisatsi myinshi y'umukara, wambaye urunigi mu ijosi, wambaye ibitenge, afashe abana babiri ku ntugu, umwana umwe yambaye ikote rijya gusa umweru ndetse n'ishati y'umweru n'undi yambaye ikote rijya gusa umweru ndetse n'ishati y'umweru, bahagaze hagati mu muryango harimo amarido.

Uyu rero ubona ni mu isoko runaka ndetse'narimo ibirayi abaribeeza bambaye imyenda ibaranga ubona ko bakoramo aho ngaho ushobora kugenda ugatambuka kabuyo ibyo kunywa wabishima ukabitwara rwose ukabyishyura.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ifite imirongo y'ubururu yambaye isaha y'umukara anambara karavate isa umutuku akaba afite ninyongera jwi mukiganza k'iburyo.

Iyi foto irimo umugore wambaye umupira ufite uturongo tubiri tw'umweru tumanuka ku ruhande rw'amaboko, ndetse imbere yiwe hari indobo ari gushyiramo utubahasha, ndetse inyuma yiwe hari igitambaro kirimo amabara agiye atandukanye ubururu, n'umuhondo n'icyatsi.

Iyi foto ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yambaye ingofero y'umukara na marinetti y'umukara, afite n'inyongeramajwi mu kiganza cy'iburyo, yambaye n'isaha ku kuboko, yambaye ishati y'umukara ifite amabara umukara n'ubururu n'umweru n'umutuku, inyuma yiwe hari umuntu ushinzwe umutekano wiwe.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, ndetse n'imborahamwe ifite utuzu dutatu, aho akazu ka mbere kandiditseho imibare y'uko amagambo ari hirya y'ako ari mu rurimi rw'icyongereza agenda akurikirana, ndetse akazu ka gatatu kariho imibare iri ku ijana ijanisha.

Umugore wambaye ikote ry'umukara n'umupira w'umweru mo imbere, ufite imisatsi miremire, wambaye amarinete n'amaherena, wicaye ku ntebe y'umukara, imbere yiwe hari ameza ariho amacupa abiri y'amazi ndetse n'urupapuro rw'umweru. Inyuma yiwe hari ibendera ry' u Rwanda ndetse n'ikirangantego cya Repubulika y' u Rwanda.

Inzu mberabyombi irimo abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hari ameza ariho ibara rya kacyi, ayo meza akaba ariho amacupa y'amazi ndetse n'amakaye yo kwandikamo, iyo nzu mberabyombi ikaba ifite amatara hejuru ndetse na kamera zishinzwe umutekano muri iyo nzu mberabyombi, hakaba hari n'umuntu ufite kamera uri kugenda akamera ibiri kuba byose.

Umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo urimo ibinyabiziga birikubisikana aho hari ikinyabiziga gifite amabara y'umweru ndetse hakaba hari n'ikindi gifite gitwaye ibinyobwa gifite amabara y'ubururu.

Inyubako ikoreramo saniramu ikigo gikorera mu Rwanda gitanga ubwishingizi hari mudasobwa eshatu amafoto ari ku gikuta ndetse n'ibyapa.

Iyi foto irimo abagabo batatu ndetse n'ibinyabiziga bibiri, aho ikinyabiziga cy'imodoka gitwaye abagenzi na moto itwaye umugenzi, abo bagabo batatu umwe yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu, undi yambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro ya kaki, undi yambaye umupira ujya gusa umuhondo n'ipantaro y'ikoboyi.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo, urimo ikinyabiziga gihetse, ikintu kimeze nk'igikarito gitwara ibicuruzwa kivanye ku mupaka, gifite ibara ry'umutuku iyo modoka ikaba ifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'umweru ikaba igiye guca munsi y'ikiraro.

Moto nyinshi zishinzwe gutwara abagenzi, harimo izikoresha ibikomoka kuri peteroli ya esanse ndetse n'izikorehsa amashanyarazi, zicayeho abamotari bambaye amajire y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bibiri, abamotari batwaye moto bose bambaye amajire y'umuhondo ndetse n'ubururu, imbere yabo hari imirongo y'umweru yaho abanyamaguru bambukiranya umuhanda.

Umuhanda w'umukara, uri kugendamo ikinyabiziga cya kiri mu bwoko bwa fuso, gifite amabara atandukanye, harimo; umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo, n'amapine y'umukara harimo akaziga k'umutuku. Hirya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ifite ibara rijya gusa umweru n'ikinyabiziga cya moto gishinzwe gutwara imizigo ku ruhande rw'iburyo hari abantu bari gutambuka mu kayira k'abanyamaguru.

N'ijoro ku mugoroba imodoka zitwara abagenzi ziri mu ibara ry'umweru, zihagaze ku mpande hari kunyuraho abantu batandukanye, hari ufite indobo mu ntoki, wambaye umupira w'ubururu bwijimye n'ipantaro y'icyatsi, ku rundi ruhande hari uwambaye ishati n'ipantaro.

Umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo uciyemo imirongo ibiri itandukanye, aho umurongo umwe uciyemo usa umuhondo undi uciyemo ukaba usa umweru ukaba urimo n'ikinyabiziga gishinzwe gutwara abagenzi gisa umweru.

Umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo urimo imirongo ibiri ifite amabara atandukanye, umurongo umwe wo ku ruhande ufite ibara ry'umweru, indi yo hagati icagaguye ifite amabara y,umuhondo ndetse uno muhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka y'umukara ndetse n'umumotari uhetse umugenzi.

Umuhanda w'umukara uzwi nka kaburimbo hirya yaho hateye ibiti na hino yaho hateye ibiti harimo ibinyabiziga bitandukanye harimo moto ndetse hari n'ikinyabiziga gisa umutuku kitwa hoho.

Iyi foto irimo ikamyo iri mu bwoko bwa fuso, ifite amabara agiye atandukanye arimo: ubururu, umweru n'umutuku. Ikaba iri mu muhanda uri urimo ibindi binyabiziga; igare na moto ku mpande hakaba ariho ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo ibinyabiziga nka moto bishinzwe gutwara abagenzi ndetse n'ibinyabiziga bishinzwe gutwara imizigo ndetse n'ibindi bicuruzwa bisanzwe, iki kinyabiziga kitwa fuso.

Igikorwaremezo cya leta cya kaburimbo kiri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ishinzwe gutwara abantu mu ngendo zitandukanye mu buryo bwihariye ndetse n'abamotari bahetse abagenzi ndetse n'izindi modoka ziri kubisikana n'ibyo binyabiziga bindi, harimo iy'umutuku ndetse niy'ubururu bwijimye.

Imodoka ishinzwe gutwara abagenzi mu ngendo zo mu mujyi wa Kigali, ifite amabara, umweru, ubururu ndetse n'umukara, ikaba ifite amadirishya y'umukara ndetse n'ibirahure. Mu muhanda w'umukara harimo moto. ndetse ruguru yaho hari imodoka ebyiri z'umukara zihagaze. imbere y'iduka rishinzwe gutanga ibyo kurya. ndetse n'ibyo kunywa bya mu gitondo.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ikinyabiziga cya howo gifite ibara ry'umutuku ndetse, n'ibirahure bireba inyuma by'umukara, ndetse inyuma yaho hakaba hari imodoka ishinzwe gutwara abanyeshuri ku mashuri, ifite ibara ry'umuhondo iruhande rwayo hakaba hari imodoka ihahagaze ifite ibara rijya gusa umweru.

Iyi foto ni umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye akaba ari ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka bita fuso gifite ibara ry'ubururu, gifite amapine y'umukara. Ku ruhande rwo hirya ibumoso bwacyo hari umuntu utwaye igare ririho umufuka w'umweru.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo uri kugendamo ikinyabiziga gihetse ndetse kikaba cyorojweho ishashi y'umukara icyo kinyabiziga kiba gifite ibara ry'umweru. Hirya y'ikinyabiziga ahantu haparitse ibindi binyabiziga birimo ibishinzwe kwikora ndetse n'imodoka zisanzwe na moto zishinzwe gutwara abantu.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umumotari wambaye ijere y'ubururu n'umuhondo, hepfo yaho hari inzu z'ubucuruzi zigiye zitandukanye, ndetse hakaba ari inzu ifite imitako imbere yindabyo, hakaba hari n'indi ifite icyapa cy'ibinyobwa bisembuye imbere k'umuryango ndetse na moto iparitse impande yawo ifite ibara ry'umutuku ikoresha amashanyarazi.

Aha rero ni ahantu bacururiza imyeda runaka yaba iya kinyarwanda, ndetse n'ibindi uduseke ndetse n'imitako rwose urabibona ibyo nibintu wajyana iwawe ukajya kuyimanika mu nzu ikagufasha noneho niba ujye kurushinga byaba akarusho.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitatu bitandukanye, aho hari ikinyabiziga cy'imodoka gifite amabara y'umweru ndetse na moto eshatu, harimo imwe ibishinzwe gutwara abagenzi n'izindi ebyiri ziri mu mabara y'ubururu zishinzwe gutwara imizigo ndetse n'ibicuruzwa.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ikinyabiziga gishinzwe kwikorera imizigo kiyambutsa imipaka, kikaba gifite amabara y'umutuku, ndetse kiba gifite ishashi itwikiriye iyo mizigo ivuye kumupaka isa icyatsi, ikaba ifite amagambo yanditseho imbere hejuru y'ikirahure cy'imbere, ari mu rurimi rw'icyongereza.

Imodoka ishinzwe gutwara abantu mu ngendo, ifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo, ikaba yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda, amwe ari hejuru handitseho minuza, andi ari hasi ari mu ibara ry'icyatsi yanditseho inguzanyo y'amashuri wahawe, andi munsi handitseho ha amahirwe abakiri bato, imbere yaho hari n'indi modoka ishinzwe gutwara abantu mu ngendo isa umweru.

Imodoka y'umweru iri mu bwoko bwa fuso ihagaze imbere y'iduka ricuruza ibyuma n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi. Iyo modoka y'umweru ihatse ibikoresho by'ubwubatsi by'ibyuma n'abagabo babiri bari kubizirikira kuri iyo modoka.

Umuhanda w'umukara irimo ibinyabiziga bishinzwe gutwara anagenizi inyabiziga bikaba bifite ibara ry'umweru imbere yaho hakaba hari umugabo wambaye agapira kajya gusa umweru n'ipanaro ijya gusa ubururu.

Imodoka iri mu muhanda w'umukara wa kaburimbo imodoka y'umweru irimo umugabo uyitwaye atwaye n'undi, hakaba hari n'undi uri inyuma wambaye isarubeti y'ubururu ku ruhande rwaho mu kayira k'abanyamaguru hari abagabo batatu bari gutambuka.

Imodoka ishinzwe gutwara abagenzi mu ngendo zikorwa mu mujyi wa Kigali, iyo modoka ifite amabara atandukanye arimo ubururu ndetse n'umweru. Ikaba ifite imiryango ibiri itandukanye, akaba ari umuryango w'imbere nuw'inyuma.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abantu bari gukina, bambaye ibirango bigiye bitandukanye, hari abambaye imyambaro isa icyatsi, hari n'abambaye imyambaro isa umutuku; ndetse hanze y'ikibuga hari uwambaye ikabutura isa ubururu n' akenda ko mo imbere gasa umweru.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo izamu risa umweru kikaba gifite n'inshyundura kuri ayo mazamu, kikaba mu kibuga mo imbere hakaba harimo ipine n'agakapu k'icyatsi hirya y'ikibuga hari ibiti biteyeyo.

Ikibuga cy'umupira kirimo tapi y'icyatsi, haciyemo imirongo y'umweru, hirya mu kibuga hari umuntu wicaye w'agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara, kikaba gifite igipangu cy'ibyuma cy'umukara.

Urupapuro rw'umweru ruriho icyapa kiburira gifite amabara y'umutuku aho ibara ry'umutuku rishushanyije akadirishya ka mpande eshatu mo hagati hakaba harimo n'ikindi kirango gifite ibara ry'umukara.

Iyi foto ni ikirango kiri mu mabara abiri atandukanye, ibara ry'ubururu n'umweru, kikaba gifite ibara ry'ubururu ryiganje, hagati hakaba harimo inyuguti ya P. Iki kirango aho gishyirwa kiba kivuze yuko haba hemewe guhagararwa n'ibinyabiziga.

Umuhanda w'umukara urimo amarangi y'umweru kuruhande rw'iburyo hakaba hariho akayira k'abanyamaguru hakaba hirya yakayira k'abanyamaguru hateye ibiti ndetse hari n'icyapa kiranga ahantu ugiye aho icyerekezo kimwe ari ukujya mu gace kazwi nka Kacyiru ikindi cyerekezo aricyo kujya ku kibuga cy'indege icyindi cyerekezo aricyo kujya ku inzu.

Urupapuro ruriho icyapa gifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'umweru iry'umukara n'iry'umutuku, aho ibara ry'umweru rikikije ayandi mabara aho ibara ry'umutuku rifite ikimenyetso cy'uruziga giciyemo umurongo hagati, hagati harimo ibara ry'umukara rishushanyije igare icyapa kivuze yuko nta gare ryemerewe gutambuka.

Icyapa gifite amabara atatu atandukanye, harimo ibara ry'umweru, n'ibara ry'umutuku, n'ibara ry'umukara, aho ibara ry'umutuku rishushanyije uruziga n'umurongo uciyemo hagati hanyuma ibara ry'umukara rikaba rishushanyije imodoka, kikaba kivuze y'uko nta modoka yemewe kuhatambuka itwara abagenzi.

Ibyapa bibiri bitandukanye aho icyapa cyo hejuru gifite uruziga rufite ibara ry'umutuku hagati hakaba harimo ibara ry'umweru hakaba harimo n'imibare mirongo itandatu kigaragaza ko nta kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu ku binyabiziga ndetse no munsi hakaba hari icyapa kigaragaza ko imbere hari kamera zishinzwe gupima umuvuduko uteganyijwe.

Icyapa cyerekana icyerekezo gifite amabara atandukanye, harimo uruziga rufite ibara ry'umukara, hakaba n'urundi ruziga ruri hagati rifite ibara ry'umweru ndetse n'urundi ruziga rufite ibara ry'ubururu ryuzuyemo, hagati hakaba harimo ikimenyetso cyerekana icyerekezo gifite ibara ry'umweru.

Urupapuro rw'umweru ruriho icyapa gifite ibara ry'umutuku rizengurutse ndetse n'akamenyetso k'umuntu uri kwambuka mu mirongo icagaguye irimo ibara ry'umukara.

Urupapuro rw'umweru ruriho icyapa cy'umuhondo n'umukara, gishushanyijeho imodoka n'indi mirongo iberamye, kigaragaza yuko aho hantu hanyerera mu mategeko y'umuhanda.

Icyapa gifite ibara ry'umutuku rishushanyije akadirishya gafite impande eshatu kikaba gifitemo ikimenyetso gishushanyije umuntu uri gutambuka hagati y'imirongo ibiri icagaguye ari kugenda hagati yayo.

Icyapa cy'umuhondo cyiganjemo ibara ry'umuhondo gifite ubuso buzengurutse buri mu ibara ry'umukara, ndetse hagati hakaba harimo ikimenyetso gifite ibara ry'umukara, kikaba gikikijwe nk'ibara ry'umuhondo.

Iyi foto ni icyapa gifite amabara abiri ifite ibara ry'umuhondo, n'ibara ry'umukara ibara ry'umuhondo rikaba rikikije ibimenyetso bibiri byerekana icyerekezo kiri mu ibara ry'umukara.

Umuhanda w'umukara, urimo imirongo ibiri itandukanye, uri hagati urombereje ufite ibara ry'umweru ndetse n'imirongo icagaguye iri ku ruhande aho umuhanda urangirira ndetse ku ruhande rw'umuhanda hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'utumenyetso turanga ibyerekezoho.

Urupapuro rw'umweru ruriho icyapa gifite akadirishya ka mpandeshatu, gifite ubuso buzengukijwe n'ibara ry'umutuku, hagati hakaba harimo umugabo ufite igitiyo uri kuyora umucanga mu ibara ry'umukara, iki cyapa kikaba gishinzwe kwereka ibinyabiziga ko umuhanda uri gukorwa.

Icyapa gifite amabara atandukanye aho gifite amabara y'umweru umukara ndetse n'umutuku. Kiba gifite ikirango kibuza kiri mubara ry'umutuku ndetse mo imbere mu kirango hakaba harimo imodoka, munsi akaba ari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Urupapuro rw'umweru ruriho icyapa gifite akadirishya ka mpandeshatu kari mu ibara ry'umutuku; hagati hakaba harimo ikimenyetso cy'umuntu uri gutambuka uri mu ibara ry'umukara, ari gutambuka hagati y'uturongo ducagaguye.

Icyapa gifite inyuguti ndetse n'imibare kikaba kiri imbere y'umuhanda w'amabuye urimo ikinyabiziga gifite amabara y'ubururu bwijimye ndetse n'ibara rijya gusa umukara imbere hakaba ari umwana uhagaze imbere yi'cyapa gisa umuhondo n'ubururu.

Iyi foto harimo ibiti n'inzu zigiye zitandukanye zifite amabati agiye atandukanye, ari izifite amabati y'umutuku amabati ya shokora amabati ajya gu gusa umweru hirya ya'ho urenze izo nzu hari inzu itarasoza kubakwa.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo imodoka y'umukara itwawe n'umuntu, ruguru hari igikuta kiri mu ibara ry'umweru, ku ruhande rwacyo, hari igipangu gifite amabara atatu agiye atandukanye; irijya gusa umukara, n'iry'icyatse, n'umweru utiganje,

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cya moto gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, gitwawe n'umumotari wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu, munsi y'uwo muhanda wa kaburimbo hari igipangu cy'umukara gifashe mu nkuta zubakishijwe amatafari ahiye.

Inyubako zitandukanye zigeretse inshuro zirenze imwe, ndetse impande zayo hari inyubako zubatse mu buryo busanzwe zifite amabati arimo y'umweru ndetse n'umutuku, impande zizo nyubako hari ibiti bihateye.

Inzu nyinshi zubatswe, inzu z'icyerecyezo gusa zitubatse kimwe. Zimwe zirageretse izindi ntizigeretse, zifite amabati agiye atandukanye afite amabara; umukara n'umutuku ndetse impande y'inzu zimwe na zimwe hagiye hateye ibiti. hari n'inzu itararangiza kubakwa.

Umuhanda w'amabuye, iruhande rwawo hari icyapa gifite ibara ry'umweru, kiriho amagambo y'impine avuze Kigali, Kicukiro, ijana na cumi na gatatu, esiti, icyo cyapa kikaba cyerekana nimero y'umuhanda iyo ari yo.

Umuhanda w'igitaka urimo imodoka zigera muri eshanu z'ubwoko butandukanye, zifite n'amabara atandukanye, ndetse na moto ifite ibara ry'umutuku n'umukara iri imbere yazo, ndetse hakaba hari umuntu ufite umutaka uhagaze hanze wambaye ishati, irimo imirongo.

Imodoka imwe ebyiri eshatu enye eshanu eshatu zirindwi, zihagaze gusa zihagaze mu bice bitandukanye, hari izihagaze iruhande rw'umuhanda, imodoka enye harimo ifite ibara ry'umukara n'indi ifite ibara ry'umukara, n'indi ifite ibara rijya gu gusa umweru n'indi ifite ibara ry'ubururu, ruguru y'umuhanda izihagaze imbere y'amaduka, imwe ifite ibara ry'umweru rifite ibara ry'umukara, rifite ibara rijya gusa umweru kandi hari abantu bari kuhatambuka n'undi wicaye imbere yazo.

Igipangu gifite ibara ry'umukara, kikaba cyubakiye ku nkuta zifite amarangi ajya gusa umukara, mu imbere mu gipangu harimo inzu ifite ibara ry'umweru ndetse inzugi n'amadirishya bisifite ibara ry'umukara hakaba harimo ibirahure, ndetse hejuru ku gipangu hariho amatara yaka mu isaha z'ijoro.

Inzu zitandukanye zubatse muburyo butandukanye, zifite n'amabati afite amabara agiye atandukanye, inzu harimo izigeretse n'izitageretse, ndetse impande n'impande y'inzu hagiye hateye ibiti ndetse harimo n'inzu zitarizarangiza kubakwa.

Inzu ifatanye ariko ifite imiryango itatu itandukanye: aho umuryango wa mbere ufite ibara ry'ubururu bwerurutse, ikoreramo umuntu uburanira abantu mu rukiko, ku madirishya y'inzugi hariho ibyapa byo mu rukiko bifite amabara y'ubururu n'umutuku; ku wundi muryango bacururizamo imyenda y'abadamu n'abana.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo w'igikorwa remezo cya leta, urimo imirongo itandukanye harimo imirongo y'umweru ndetse n'uturinda inzira y'abagenzi dufite amabara y'umweru n'umukara, hirya y'aho hari ibiti bihateye.

Inzu igeretse, ifite icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, hariho umukobwa ufite impapuro mu ntoki, hasi hari abantu benshi n'imodoka ebyiri zitandukanye, n'igiti imbere y'iyo nzu igeretse.

Inzu nyinshi zegeranye zubatswe mu buryo butandukanye, ndetse zifite n'ibisenge bigiye bitandukanye, bifite amabara agiye atandukanye. Ndetse impande y'inzu zimwe na zimwe hagiye hateye ibiti, ndetse hari n'inzu itararangiza kubakwa.

Inyubako ndende yubakishije amakaro ari mu ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite n'ibirahure by'ubururu. Ikaba hejuru iriho amagambo yanditse mu ururimi rw'ikinyarwanda ari mu ibara ry'icyatsi avuga ngo zigama.

Inzu nini ifite amabara agiye atandukanye harimo ibara ry'umweru ndetse n'ibara rijya gusa umukara, ifite amadirishya y'umukara arimo ibirahure ndetse ifite igipangu gifite ibyuma bisa umukara, cyubakiye ku gikuta gifite amabara y'umweru.

Iyi foto irimo ibinyabiziga biri kugenda bica munsi y'ikiraro, ikagaragaramo ikinyabiziga cy'imodoka na moto itwawe n'umumotari wambaye umupira ujya gusa umukara, ikagaragaramo n'ibiti ku mpande.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo, igikorwa remezo cya leta, urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ikinyabiziga gishinzwe gutwara abaturage mu ngendo zo mu mujyi wa Kigali ndetse na moto zitwaye abagenzi.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo, urimo ikinyabiziga cy'imodoka ndetse hakaba hari n'ikindi kiri hirya, cyo mu bwoko bwa fuso ishinzwe gutwara imizigo, ku ruhande rw'iyo modoka hari ibiti ndetse n'ubundi busitani buhateye, ku ruhande hari inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo imodoka ifite ibara ry'umweru ishinzwe kugezaho inyama uwazitumije ndetse mu muhanda harimo n'ibindi binyabiziga bindi by'imodoka ndetse n'igare.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibyerekezo bibiri bitandukanye ndetse ukaba ufite n'imirongo ugiye ushushanyijemo hari umurongo w'umweru urombereje uri k'uruhande ndetse n'iyindi iri hagati icagaguwe irimo ibara ry'umuhondo ikaba ifite n'amatara amurika mu gihe cy'ijoro ndetse na kamera zishinzwe umutekano wo mu muhanda.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo moto zigiye zitandukanye zitwaye abagenzi ndetse n'izidatwaye abagenzi, ndetse n'imodoka zitandukanye harimo ifite ibara ry'umweru ndetse n'ifite ibara ry'umukara, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru kari gutambukamo abara ndetse harimo n'ibyapa biyobora ibinyabiziga.

Akayira k'abanyamaguru karimo abanyeshuri batoya bahetse ibikapu bavuye ku ishuri, ku muhanda w'umukara wa kaburimbo hari moto itwaye umuntu wambaye isarubeti y'ubururu.

Urukuta rwubakishije amabuye, hejuru hari utundi dukuta dutoya tugiye turi hagati y'ibyuma bibiri bibiri, utwo dukuta dusize amarangi atandukanye, dusize irangi ry'umuhondo utundi dusize irangi rijya gusa umukara.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibininyabiziga bigiye bitandukanye, hirya yaho hari ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'ibiti, ku ruhande hakaba hari icyapa gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, hejuru hakaba hari ikiraro kiriho amatara amurika mu masaha ya n'ijoro.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibimenyetso biri mw'ibara ry'umweru bifite ibimenyetso byerekana icyerekezo umuntu akwiye gucamo mu mugihe atwaye ikinyabiziga.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga by'amagare, amwe ahetse abantu ayandi ntahetse abantu, ku ruhande rwo hirya hari umu motari utwaye moto hirya ya yiwe hateye ibiti ndetse n'indabyo.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanyerimo moto ndetse n'imodoka zishinzwe kwikorera imizigo ziri mu bwoko bwa fuso, ku muhanda wa kaburimbo hakaba hari igice kiri ku ruhande cyagenewe imodoka zitwara abagenzi ndetse n'izindi modoka zitwara abantu ku giti cyabo uwo mwanya ukaba ari uwo guhagararamo imodoka mumuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda w'umukara urimo ikinyabiziga cy'igare ndetse n'abantu babiri bari gutambuka. Ku ruhande hakaba ariho ubusitani buhateye ndetse hakaba ari n'icyapa kiranga amerekezo, hejuru akaba ari umuhanda uca hejuru w'ikiraro ucaho ibinyabiziga hakaba ariho n'amatara maremare ashinzwe kubonesha mu gihe cy'amasaha y'ijoro.

Ifoto irimo umuhanda w'umukara ufitemo imirongo y'umweru yerekana ko ariho abanyamaguru bemerewe gutambuka bambukiranya imihanda. Ikindi harimo abamotari bafite abagenzi ku mamoto n'abandi bantu bari gutambuka bagenda.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka zisa umukara ndetse n'ubururu bwijimye ndetse n'umweru, iruhande rwayo hakaba hari ubusitani buteye burimo indabyo ndetse n'ibirango bishinzwe kurangira imodoka, harimo n'icyapa kiyobora imodoka.

Iyi foto irimo umumotari wambaye ijire isa umuhondo n'ubururu, akaba yambaye n'ipantaro y'ubururu, akaba atwaye moto imwe mu zigezweho ikoresha amashanyarazi. Akaba ari kumwe n'umuntu uhetse agakapu k'umukara yambaye n'ishati. Hirya hari indi moto ishinzwe gutwara imizigo.

Iyi foto irimo umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, ikaba irimo ibikoresho byifashishwa mu gutanga inzira ku binyabiziga biri mu muhanda, ikagaragaramo n'umuntu wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu uri kugenda ku ruhande rwitaruye umuhanda w'umukara.

Iyi foto irimo umuhanda w'umukara uzwi nka Kaburimbo, ufite ibyerekezo bibiri bitandukanye, mu cyerekezo kizamuka harimo ibinyabiziga bibiri moto na igare mu cyerekezo kimanuka, harimo imodoka ebyiri, imwe ijya gusa umweru indi ijya gusa umukara, ku ruhande rw'iburyo kandi hagaragaramo akayira k'abanyamaguru.